Amashuri ya pirimare yigisha uburezi yubakishije amatafari ahiye, afite inzugi z'ubururu zisakaje amabati y'icyatsi. Inyuma y'iyo nzu hari ibiti birebire bifite ibara ry'umukara, imbere yinzu hari indabo ngufiya zifite ibara ry'umuhondo.

Ishuri rikuru rya segondere ryubatse ritaringaniye rifite ibara y'icyatsi, n'ibara ry'umweru rikagira imigezi y'umweru. Amadirishya akoze pandeshatu, amakositara ari mutuntu dupfumaguye asa n'umweru.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amabati y'umutuku gisize irangi ry'umweru, imbere y'amashuri hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, hari abanyeshuri barimo bahahagaze bari kwitoza bafotora, bambaye imyenda y'ubururu n'ingofero z'umuhondo.

Aba ni batetsi, bambaye amashati y'umweru, bambaye n'ibisurubeti by'umutuku. Biteze utuntu tw'umweru, bari gutegura amafunguro.

Abakobwa bahagaze ahantu hameze neza bambayenifomu; amapantaro y'umukara n'ibisarubeti by'umukara. Bose bafite imisatsi izingiye hejuru bahagaze ahantu heza, bari kwiga uburezi ku bijyanye n'umuyoboro w'amashanyarazi.

Ahantu hameze neza cyane, hafite ibara ry'ubururu n'umweru, hari urugi rw'ubururu, rufite n'iserire hari amakayi, amakaramu, hari intebe zo kwicaraho zimeze neza, n'ameza y'igitaka, afite uduti duhagaritse tw'umukara, n'agatambitse.

Ishuri rikuru rya sogondere ryubatse neza n'amadirishya asize irangi ry'umuhomdo, mo imbere harimo uduti dutambitse n'uduhagaritse, harimo amarido y'umweru n'ameza yo kuriraho afite uduti tw'umukara.

Abanyeshuri bambaye amashati y'ubururu, buri wese afite ikayi n'ikaramu, bari gukora ikizamini, mwarimu wabo arahagaze ariko kureba ibyo bari gukora, yambaye ikote ry'umukara arakaye ,ku meza bari gukoreraho hateretse amacupa.

Iri ni ishuri ririmo intebe, izo ntebe zicayemo abana, harimo n'umwarimu uri kubigisha, wambaye itaburiye, ufite umusatsi wumukara, wambaye n'agapfukamunwa k'umukara.

Umugabo w'igikara wambaye imyenda y'ubururu ishati y'ubururu ,ipantaro y'ubururu ,n'ingofero y'ubururu ,ari gukanika ibyuma bye ngo arebeko byakora neza. Bifite ibara ry'umutuku ,hasi bifite uduti hejuru birazamuye.

Ikigo cyiza gitanga uburere bwiza bujyanye n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga, hari imashini zitandukanye z'ubwoko bwose hari n'insinga z'umutuku, na cagi zo gucagingaho mashini kugira tubashe kuzikoresha neza.

Abanyeshuri biga muri segonderi bambaye inifomu amajipo ya kaki n'amashati y'umweru n'inkweto z'umukara zifunze. Buri munyeshuri ari guseka arishimye kubera ko yahawe uburere bwiza afite agatabo kamuranga.

Abanyeshuri bo muri segonndare abahungu n'abakobwa, bicaye mu ishuri bari guseka baranezerewe, bose bambaye inifomu. Imbere yabo hari mwarimu uri kubereka ibyo biga, bicaye muri raboratware, hari ameza afite ibara ry'umweru, hari n'udukombe turimo ibyo bari kuvangiramo bari kwiga bari kwerekanwa.